Abantu b'abasore ndetse n'abagabo bameze nk'abamaze kugira imyaka itari mike, bicaye bari mu nama, imbere yabo ku meza ariho ibitambaro by'umweru, hariho uducupa ndetse bamwe bafite na mudasobwa.

Abantu bicaye bakikije ameza ndetse imbere yabo haribo hariho amacupa arimo amazi, biragaragara ko haribyo barangariye bateze amatwi bakurikiye.

Abagabo n'abagore barahagaze harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, bahagaze imbere y'inyubako bari barimo gukoreramo inama barimo barifotoza ifoto y'urwibutso.

Umugabo wahagurutse wambaye isaha n'ishati by'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki arimo aratanga igitekerezo cye munama yahuje abaturage.

Abantu bicaye ahantu heza hateguwe harimo umusirikare ndetse n'abandi bameze neza, imbere yabo hasi haturetse uducupa turimo ji.

Umudamu wambaye imikenyero irimo umweru n'umutuku n'agapira k'icyatsi mu nda, ahagaze imbere arimo aratanga ikiganiro mu nama. Iki kiganiro cyabereye mu Karere ka Nyagatare

Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda ahagaze imbere y'ameza arimo aratanga imbwirwaruhame afite indangururamajwi mu ntoki mu karere ka Nyagatare.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu batandukanye b'abanyacyubahiro, bakikije ameza ariho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hagiye hateretseho amacupa y'amazi, bamwe muri bo bafite mudasobwa.

Abantu batanu; abagabo bane ndetse n'umugore umwe wambaye ikanzu nziza irimo amabara y'umweru n'umukara, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye.

Abaturage benshi bishimye, bahuriye ahantu, bahujwe n'ikintu cyari cyabahuje, bamwe bari munsi y'itende, abandi bahagaze imbere, barimo barabyina.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru urimo utubara tw'umutuku, afite indangururamajwi, ameze nkaho hari ibyo ari gutangariza abari muri iyo nama.

Abantu bigaragara ko ari abayobozi b'abanyacyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo n'uyu mupolisi ufite inyenyeri ku rutugu. Imbere yabo hari ameza meza, atetseho telefoni.

Abantu bari kubyina imbyino gakondo bakenyeye imikenyero irimo umweru ndetse n'utubara tw'umutuku, inyuma yabo hari urubyiruko rwambaye imipira y'icyatsi.

Abantu b'abasore bakiri urubyiruko bambaye imyambaro y'umweru ndetse n'imikenyero y'umweru, bafashe ikibindi gitwikirije amakoma y'insina harimo n'imiseke, bameze nk'abaje mu bukwe.

Inzu z'Abami hano haragaragara inzu y'Umwami yubakishije ibyatsi ndetse n'uruzitiro rwubakishije urubingo.

Hano hari ipironi ririho insinga z'amashanyarazi, nyinshi ziyakwirakwiza mu baturage, hari kandi inyubako bigaragara ko ari ku kigo gishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi.

Ipironi ririho insinga z'amashanyarazi zigenda zitwara umuriro ziwujyana hirya no hino mu gihugu, hejuru y'aho hari ikirere gisa ubururu ndetse harimo n'utubara tw'umweru.

Amatara yo ku muhanda, ni bimwe mu bishyirwa ku mihanda, kugirango bimurikire ibinyabiziga binyuramo nijoro ndetse n'abantu, inyuma y'ayo matara hari uduti twiza tuhateye.

Uruganda rutanga umuriro w'amashanyarazi harimo abantu bashinzwe kuwukora; bigaragara ko hari ibyangiritse barimo barasana kugira ngo abaturage bakomeze gucana.

Ku rugomero rw'amashanyarazi. Hano ni ahatunganyirizwa ingufu zitanga amashanyarazi yifashishwa n'abaturage. Ku ruhande rwaho hari umuhanda w'igitaka urimo abantu.

Uruganda rutanga umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, hirya no hino mu gihugu. Harimo moteri ndetse n'amabatiri.

Ibi ni ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi, bizwi ku izina ry'imirasire y'izuba, byifashishwa mu ngo zitarageramo umuriro w'amashanyarazi uva mu nganda.

Igikoresho cya mubazi gikoreshwa babara umuriro wamashanyarazi usigaye iyo wawuguze, hariho kandi imibare ukanda igihe ushaka gushyiramo undi.

Urugomero rw'amashanyarazi rukaba ari uruganda ruvamo umuriro wifashishwa n'abaturage. Hari ibyuma byinshi ndetse n'insinga zivana umuriro muri urwo rugomero ,ziwujyana mu bice bitandukanye by'igihugu.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru kizwi nka sitade bigaragara ko ari sitade ikorerwamo imikino yose bita olempike.

Umuhanda w'ikiraro uzwi ku izina ry'umuhanda wa Gariyamoshi, harimo imodoka ebyiri zigiye guhura, hakurya hari ibiti birebire bifite n'amashami menshi.

Abantu bahagaze, hari icyapa gishushanyijeho inzu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo gira ubuzima.

Ahantu heza cyane harimo amazu yubatse ku buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye ndetse asakajwe n'amabati y'imituku, ku ruhande hari umuhanda urimo imodoka y'umukara.

Umuhanda w'igitaka uva mu nyubako ziri hirya zisakaje amabati y'icyatsi uwo muhanda harimo abantu bari kuwunyuramo bavuye muri izo nyubako.

Abantu, abagabo ndetse n'umugore umwe bambaye neza bafite amakayi mu ntoki bamwe bari mu mucaca imbere y'inyubako isize amarangi y'ubururu.

Inyubako yubatse isakaje amabati y'umweru, ikaba inateye umucanga ndetse amadirishya yayo asa umukara, hano ni ku biro by'Akagari ka Rubare hari n'idarapo.

Iyi nzu ni ikusanyirizo ry'amata, hariho umugabo ufite ibicuba imbere ye, bigaragara ko yari agemuye amata, akaba asanze hafunze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye hahagazeho abantu babiri umwe ufite igikapu ndetse undi ni umurindi mutekano bigaragara ko ari ku kigo cyita ku bana.

Imbuga ngari y'ibitaka, imbere yayo hariho inyubako yubakishije amabati y'icyatsi, kuri iyo nzu hariho abantu.

Inyubako igaragaza ibice bibiri, izitijwe n'ibyuma bigiye bisobekeyije bisizeho amarange y'umutuku n'umukara, hirya hari n'akandi kazu gasakaye.

Iki ni igicumbi cy'itorero, giherereye mu Karere ka Nyagatare, Umurenge wa Rukomo, Akagari ka Gashenye, hejuru hariho utuntu tubajwe mu buryo bw'icyasi.

Aha ni ku mupaka, hakaba hari icyapa kigaragaza ko ariko ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka, mu mihanda hariho abasirikare, bashinzwe umutekano.

Inyubako igaragaraho umuntu w'umumama urimo aragenda. Kuri iyo nyubako biragaragara ko ari ku ivuriro ry'ibanze. Imbere yayo hashinze ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda

Inzu za leta zubakishije amatafari ahiye ziteyeho irange ry'umweru ku nguni, zifite imiryango y'umweru irimo ibirahure.

Inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye, imbere hakaba hasize irangi ry'umweru, hariho kandi n'ikigega gifata amazi avuye kuri iyo nyubako.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'umuhanda, kigaragaza ko ukase iburyo bwawe uba werekeza mu karere ka Nyagatare, wakomeza umuhanda ukaba werekeza mu karere ka Kayonza.

Abantu biganjemo abambaye umukara barimo barava mu Gihugu cy'abaturanyi binjira kumupaka, hejuru hari icyapa cyanditseho urugendo ruhire.

Igishushanyo cyiza cyane, kigaragaza uburyo inyubako izaba igiye kubakwa, y'ikibuga cy'umupira w'amaguru kizwi nka sitade, izaba imeze, biragaragara ko azaba ari sitade nziza.

Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye iragaragara ko itaruzura neza kuko nta madirishya ndetse n'inzugi ifite, isakaje amabati y'ubururu ndetse hariho n'ibiti ku mpande buririraho.

Abagabo n'abagore bambaye neza barahagaze bameze nk'abari gukoma amashyi, bari bicaye ahantu heza cyane bamwe imbere yabo hari agatapi kameze neza.

Abantu benshi aba mama n'abagabo bicaye hasi. Imbere yabo hakaba hari abicaye ku ntebe, bigaragara ko ari abayobozi ndetse harimo n'umusirikare, baje gutanga ikiganiro.

Abantu bicaye biragaragara ko ari abanyacyubahiro bicaye ku ntebe za purastike z'imyeru, imbere yabo hari ameza akozwe mu mbaho.

Aba ni abayobozi bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biragaragara ko hari ibintu bagiyemo bafite buji mu ntoki zabo hari n'umuntu uri kugenda acana izo buje.

Abantu bicaye ahantu hari ibyatsi, abandi bicaye mu ihema. Aho hantu hateye ibiti bigaragara ko bifite amashami maremare.

Abantu bateraniye hamwe imbere hicaye abasirikare babiri ndetse hari n'umukecuru ufite imvi wambaye amarinete, inyuma hari abandi bahagaze harimo n'umwe muremure.

Abantu bahagaze barimo abagabo n'abagore, barimo barifotoza, bari mu kibuga kiri ku kigo cy'amashuri, inyuma yabo hari ikigega gifata amazi ndetse bamwe bahagaze munsi y'igiti.

Abaturage benshi abagabo n'abagore bicaye hasi mu mucaca, imbere harimo abandi bantu bicaye ku ntebe zitandukanye, bigaragara ko ari abayobozi.

Abantu bane b'abayobozi, harimo umupolisi ufite inyenyeri ku bitugu bye, bicaye imbere y'ameza ateretseho amazi ari mu ducupa yo kunywa.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi arimo aratanga igitekerezo cye mu nama yahuje abayobozi batandukanye, harimo n'abapolisi imbere yabo ku meza hagiye hariho amacupa y'amazi.

Icyapa gifite impande z'ibara ry'umutuku, kirimo ikimenyetso cy'umusaraba, kigaragaza ko aho hantu hafi yaho hari ibitaro.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo uranyuramo igare ririho umuhungu mutoya, harimo kandi moto iriho umumotari uhetse umufuka inyuma.

Abantu bicaye mu kazu gasakaje amabati y'ubururu, biragaragara ko ari akazu bubatse ko kwicarwamo n'abantu bategereje gufata imodoka zibajyana iwabo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru, bigaragara ko ari ahantu abanyamaguru bambukira, ku ruhande hari inzu isakaje amabati y'ubururu.

Ahantu heza hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku gishushanyijemo umuntu uri gutambuka, kikaba kiranga ko aho hantu hari inzira y'abanyamaguru banyuramo bambukiranya umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka ihetse umuntu wambaye umupira utukura, iyo modoka yanditseho ijambo riri mu ibara ry'ubururu risobanura ngo ubumwe.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umuhungu wambaye imyenda y'umukara utwaye igare. Atwayeho umugore wambaye akagofero kurugara mumutwe.

Icyapa gishinze mu byatsi kikaba kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo kiragaragaza aho ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi ishami rya Nyagatare gikorera.

Ahantu hari inyubako zitandukanye bigaragara ko hari utubari hari kandi n'icyapa kishushanyijeho umuntu urimo arambuka mu nzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ubona ko ari mwiza, hagati hanyuzemo umurongo ufite ibara rijya gusa umweru wanduye ndetse harimo haragendamo na moto.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo ifite ibara ry'umuhondo, igaragaza ko ari ahantu abanyamaguru bambukira, imbere haciyemo undi murongo w'umuhondo ucagaguye.

Umuntu wambaye imyenda ya gisirikare, afashe isuka arimo nawe we arahinga. Impande ye uko ari ebyiri, hagazeho abandi bantu nabo bafite amasuka barimo barahinga.

Abantu b'urubyiruko b'abakobwa n'umuhungu bari mu gikorwa cy'umuganda bateruye amabuye hari aho bagiye kuyajyana azakoreshwe ibyo bazayakoresha.

Umuntu w'umugabo ubona usa nk'ukuze ahagaze hagati y'abandi bantu biganjemo abana, afite indangururamajwi, arimo aravuga ijambo rimurika ku mutima.

Abasirikare babiri umwe akaba afite icyombo ku ishati ye hakaba hariho iderapor ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bari baje kwifatanya n'abaturage mu muganda.

Umugabo wambaye ishati itukura n'isaha ndetse n'ingofero arahagaze afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari abandi bagabo babiri bicaye ku ntebe z'imbaho zisize irange ry'umutuku.

Abantu benshi harimo abakuze ndetse n'abakiri urubyiruko, bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda, barimo baraharura inzira kugira ngo imere neza.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari muri sitade ya Olempike, hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi, ufite icyo ari gutangaza inyuma ye hicaye abana batoya babiri.

Ikibuga cyiza cyane cyumupira wamaguru, gifite ibyatsi byiza bitoshye, harimo n'abakinnyi bari mumyitozo, bambaye impuzankano, bakoresha bakina.

Aha ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru, giherereye mu karere Ngoma Mubusirazuba, harimo umusifuzi ubona yahanitse icyapa kigaragaza ko bagiye gutsimbuza umukinnyi.

Abantu barimo abagabo n'abagore, abakuze ndetse n'abato bahagurutse ku ntebe bari bicayeho z'imikara barimo barabyina mu gihe cy'akaruhuko.

Abantu batandukanye, barimo n'umupolisi, bari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri bakina umupira w'amaguru, hirya yi'ikibuga hari ubuhinzi bw'urutoki.

Abantu biganjemo urubyiruko, bari mu kibuga giteyemo isima bari mu gikorwa cyo kugorora umubiri, bizwi nko gukora siporo.

Ikibuga barimo bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri kirimo abantu benshi biganjemo urubyiruko burije itara ririmo kwaka.

Abantu benshi bahagaze mumuhanda wa kaburimbo, bagiye mugikorwa cyo gukora siporo, biragaragara ko ari nijoro, amatara yo kumuhanda arimo kwaka.

Umukinnyi ufite umupira arimo arakinira mu kibuga kimeze neza, hejuru aho abantu bicara harimo umuntu umwe uhicaye, aho hari amarangi afite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Mu kibuga cy'umupira harimo umuntu wambaye imyenda bifashisha bakora siporo, arimo arakina baro, ndetse inyuma ye hari inzu n'ikigega cy'umukara.

Ikibuga cy'umupira kiyiza cyane kirimo tapi, kizwi ku izina rya sitade mumi z'amahanga harimo umukinnyi wambaye imyenda ya siporo y'umuhondo afite umupira mu mumaguru.

Hano ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru harimo abantu bari muri siporo bigaragara ko umwe wambaye imyenda y'umuhondo abyibushye, ku ruhande hari n'umusifuzi urimo arayobora umukino.

Ibi ni bimwe mu bikorwa bya siporo, bifasha umubiri kugororoka ndetse bikawutera imbaraga zo kuba wakwirinda indwara zitandukanye nk'izishobora guterwa n'umubyibuho ukabije.

Umuntu, w'umubyeyi, ubyibushye wambaye agapira k'umuhondo, wafunze imisatsi ye. Akaba, ameze nk'umuntu, uri gukina umupira w'amaguru, ndetse imbere ye hahagaze undi mugabo, wambaye bote.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru, yambaye imyenda bakoresha bakina umupira, inyuma ye hahagaze undi mwana mutoya ubona ko na we wambaye imyenda ya siporo.

Ikibuga cyiza cy'umupira w'amaguru giherereye mu Mukarere ka Ngoma, harimo abakinnyi bambaye imyenda ya siporo itandukanye, harimo n'uwambaye nimero karindwi.

Gukora siporo ni byiza aba bantu bahuriye hamwe bari mu gikorwa cya siporo, hirya hari ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru harimo abana batoya cyane barimo nabo barakora imyitozo.

Umuhanda w'igitaka ubona ko atari mwiza watangiye kwangirika, kumpande zose hariho ibyatsi ndetse muri uwo muhanda, harimo umuntu usunitse igare, ari kwerekeza ahantu runaka.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu, akaba yiteze n'agatambaro mu mutwe, afite umukubuzo, arimo arakorera isuku mu muhanda wa kaburimbo, urimo umurongo w'umuhondo.

Imbuga nini, ndende, kandi ngari, ikoreshwa, higishirizwamo, abantu, bashaka, impushya zo gutwara, ibinyabiziga ku buryo bwa burundu. Harimo imodoka ebyiri.

Agahanda gatoya bigaragara ko kanyuramo abanyamaguru cyane cyane ku ruhande hariho ibyatsi bigaragara ko bitoshye cyane, ikindi harimo moto iriho umuntu wambaye kasike y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo, hakurya ku kayira k'abanyamaguru, harimo haranyura wambaye ipantaro n'umupira w'umweru, hirya ye hari amazu asakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda w'amabuye, urimo agendamo moto yicaweho n'umuntu umwe, wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku, haruguru ku muhanda, hariho inyubako zisize amabara agiye atandukanye, hari n'abana bahari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo uwugabanyamo kabiri, iruhande yawo hari ruhurura itwikirijeho ibintu bikoze muri sima.

Akayira cyangwa se umuhanda unyurwamo n'abantu, harimo abantu babiri umukobwa ndetse n'umuhungu, barimo barakanyuramo. impande zako hari ibyatsi.

Ikibuga kidateye mo sima, bigaragara ko ari ahantu bigishiriza abanyeshuri biga gutwara imodoka. Harimo imodoka ebyiri, imwe ifite ibara ry'umutuku, indi ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo igare rihetse ibintu bibikwamo inzoga. Ku mpande z'uyu muhanda hari umuntu ushinzwe umutekano ndetse n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umuhondo mo hagati. Bisobanuye ko ibinyabiziga aha bitemerewe kunyuranaho kuko uwo murongo ugiye ucagaguye.

Amagare abiri atwawe n'abahungu b'abasore, ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Impande y'uwo muhanda barimo baragendamo hari inzu yubatse mu buryo busanzwe, mu muhanda kandi harimo imodoka irimo iraturuka imbere.